Umubyeyi mwiza cyane ubona ko yateze igitambaro, amanika agatoki kugira ngo avuge ijambo bombi bambaye imipira y'ubururu, inyuma ye hari abandi bafite ducupa tw'amazi y'Inyange, ubona ko ari ibintu bikeye ndetse n'utuntu two kwihanaguza turi ku masahani.

Abantu ubona ko bakuze bari kwiga ku kintu runaka bicaye mu ntebe nziza z'imisego, ariko impande yazo ho gato hariho urubaho nyine rukeye, harimo abagore ndetse n'abagabo bafite uducupa tw'amazi, amakaye, n'amakaramu.

Abagore benshi n'abagabo ubonako bariribaje mu nama runaka yiga ku bintu bitandukanye, bambaye imikenyero kandi bambaye amashati batebeje rwose ubonako ari ibintu bisa neza nyuma bari ibirahure biriho ibirango byanditseho Kigali.

Umugore yicaye hagati y'abagabo babiri ariko inyuma yabo hari ikirango kiri mu ibara ry'ubuhu cyanditse n'amagambo, imbere hateretse uducupa tw'amazi bisa nk'aho nyine bari kuganiriza abantu ku kintu runaka cyaba kigamije guteza imbere abantu runaka.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye udupira tw'umukara n'umweru abandi nk'icyatsi, amashati, intebe bicayemo n'imituku, hejuru urabona ko hari n'abandi rwose, ni benshi bitabiriye aha bari mu nzu mberabyombi nyine yakira abantu batandukanye.

Inama yiga ku bintu runaka nyine, uona ko hari uwambaye ijire y'umukara ayirenzamo agapira k'umutuku, ni umubyeyi ariko imbere hari ibindi bari kureberaho nyine n'amashusho, ku meza yabo hariho ji, utayibasha aranywa amazi, amakayi n'amakaramu.

Abagabo ubona ko bicaye ku meza ariho ibitambaro by'umweru byiza cyane bimanuye hasi, za mudasobwa imbere ye sibo gusa harimo n'abadamu rwose cyangwa abategarugori imbere hari amazina yabo cyangwa se udupapuro yanditseho.

Abantu bateranye ubona ko bayobowe n'umwari ufite ikintu ari kubaganiza yagezeho, inyuma y'abo hari amarido afunguye kugira ngo urumuri rwinjire, bafite mudasobwa imbere yabo, amacupa y'amazi y'inyange ndetse n'ibindi byinshi.

Abantu benshi urabona ko harimo urubyiruko abasore n'inkumi, bambaye ingofero abandi barahagaze, kimwe n'uko hari abicaye byabacanze, hakurya hari amamodoka menshi haparitse ubona ko baje kumva ibintu runaka.

Abadamu benshi cyane ubonako imisatsi baba bayisokoje, bamwe barayiboha barimo baraganira ku kintu runaka, bicaye mu ntebe z'imikara, imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'Inyange, hirya hari ubahagarariye arikuvuga ijambo.

Abantu benshi cyane bari abambaye akagofero k'umutuku ariko n' umweyambariye utwenda twiza n'abandi bambaye udukote harimo abategarugori inyuma hari ibirango birimo bara ry'mweru ndetse n'ubururu nyine bibanuye neza cyane.

Abagabo ubona ko bakuze n'ababyeyi bafite amakayi n'amakaramu; ameza aryoshye cyane asa n'aho anyerera bakirebamo. Amakayi n'amakaramu biteretseho, ndetse n'ikintu kibazanira umuriro cy'umweru, amazi yo kwifashisha nyine igihe icyaka kibishe.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru ubona ko basa rwose bameze neza, imbere hari abicaye batatu harimo umwari aho uri kugira icyo abaganirizaho runaka, impande y'abo hagiye hari ibirango biri kwamamaza ibiri kuhabera ndetse k'utabashije kugira icyo afata, yafashe amazi.

Abantu benshi ubona ko ari imbaga rwose iteraniyemo abategarugori, abagabo ndetse muri rusange ubona ko bari kwiga ku ikibazo cy'inama runaka wenda cyaba cyugarije igihugu, cyangwa se isi muri rusange, hakurya hari abantu batanu bahicaye bose bageretse akagaru ku kandi bambaye imyenda myiza cyane, ubana atari ari wowe bayoboye rwose.

Umubyeyi mwiza cyane ubona ko afite imisatsi ibumbye ukuntu ndetse yambaye agakarita kariho umugozi w'umweru, ikanzu nako karimo utuntu tw'umukara, ikaye n'ikaramu ndetse n'agacupa k'amazi imbere ye bisa naho yarari kuyanywa nyine kugira ngo icyaka kitamwica.

Abadamu ubona ko nabo bigiriye icyizere rwose bavuga ngo nanjye ndashoboye bari hagati y'abagabo babiri, umwe afite mudasobwa abandi ntazo imbere yaba hari uducupa tw'amazi amakayi n'amakaramu ubona ko bakurikiye ibiri gutangirwa hano.

Abantu benshi cyane buri umwe afite mudasobwa, uducupa tw'amazi imbere yabo, barimo barareba imbere hari insakazamashusho ihari ndetse n'ibindi byinshi, bari kwiga ku nama runaka rero ndetse banayiganiraho ngo barebe icyakorwa.

Abasore n'inkumi baje bahetse abana barasinziriye ndetse baricaye, imbere yabo hari ameza ariho udukaye cyangwa se udupapuro, amazi yo kunywa, hari n'umuntu uri kubaganiriza ku bintu runaka.

Abantu benshi ubona ko bamwe bari ahantu hasakaye, hari ikintu cy'umweru amabara y'ubururu ndetse inyuma yaho gatoya hari ibiti n'ibisambu bagiye basiza kugira ngo bubakemo, n'abantu benshi bari kumwe n'inzego z'umutekano bamanitse amaboko.

Abantu benshi ubona ko harimo abakecuru n'abasaza basheshe akanguhe bakuru rwose, bamwe baricaye barambije mu utwatsi runaka barimo barumva ibintu bihavugirwa cyane ko hari n'indangururamajwi ndende, inyuma hari inyubako itaruzura iriho imbaho nyinshi cyane n'amadirishya.

Abagabo ndetse n'abadamu biyambariye udupfukamunwa twose bicaye ahantu bisa n'aho bari bari kwifotoza ariko nkurikije ibiri ku meza hariho utuntu two kwihanaguza, ibikombe by'amazi, wagira bari bari mu nama nyine bari kuganira ku bintu runaka.

Hari ababyeyi ubundi ubona ugahita uvuga uti aba ngaba barisobanukiwe. Agakote k'umutuku, ikayi n’ikaramu, amazi imbere ye, umusatsi usokoje n'inyuma ye hari n'abandi bameze nkawe rwose. Aba bashiritse ubute baravuga ngo nange ngomba kwiyemeza imirimo nkayikora.

Kuhajya mu nama runaka bakaba bakwereka ibyo usomamo ni byiza, hano rero harimo abagabo b'abagore, amazi imbere yabo bagasuka amakaye n'amakaramu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, bose bari kureba imbere amagambo ahanditse kugira ngo babashe kumva neza banasobanukirwe.

Iyi ni polisi y'igihugu cyangwa inzego z'umutekano ziri kumwe n'urubyiruko, bafite ikirango cyerekana ko bagomba kurwanya agakoko gatera sida mu rubyiruko, rero ni byiza ko wajya uyirinda nawe.

Abasore n'inkumi ubona ko bari gukoma amashyi bishimye, bambaye utugozi mu ijosi tw'ubururu turiho amakarita, bamwe bakenyenye ibitenge ariko batavuze ko hari n'abandi bicaye, bari kureba imbere yabo hari amazi yo kwifashisha.

Abagabo bakuze urababona nyine ariko si cyane, bari kumwe n'abategarugori beza b'inzobe, ubwo mvuze ibizubazuba nyine guhita wumva ukuntu mvuze, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, bafite telefone amakaye n'amakaramu abandi bafite za mudasobwa.

Ababyeyi bari hagati y'abagabo babiri, imbere bafite amazi, amakaye n'amakaramu, ndetse na za mudasobwa. Inyuma yabo hari ibirango biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, hari ahanditse Kigali yacu, ahandi ngo irakeye, rero bafite ibyo bari kwigaho.

Abategarugori ndetse n'abagabo bicaye mu nzu mberabyombi nziza cyane nini, ku ntebe nziza hakurya hari amatara ari kwaka ndetse bafite amazi imbere yabo, za mudasobwa zo kwandikamo imyanzuro cyangwa ibitekerezo biri kuhavugirwa, hano hantu nawe ujye wigirira icyizere uzahagera.

Hari inzu zabugenewe zakira abantu benshi mu buryo butandukanye kandi haba harimo n'intebe nziza cyane nka hano zisa umutuku hasi hasa ubururu n'ibirango byiza cyane udutara turi kwaka harasakaye nta zuba rishobora kubica cyangwa se ngo imvura ibanyagire, harimo abantu benshi abategarugori bafite uducupa tw'amazi bari kwinywera n'abagabo.

Ibigori ni byiza cyane kuko bivamo akawunga, bifatiye ku giti, bakita indongo, ku bantu batakizi byegeranye n'umunara, rero utanga itumanaho ahantu runaka, ukabasha kubahamagara, iwanyu ndetse bakaguhamagara, hakurya hari inzu nziza cyane y'amatafari.

Mu Rwanda ni ahantu habera ubukerarugendo ndetse bashyizeho na gahunda y'uko ushobora kuza kuhasura bitewe. Haba hari ibisimba by'ubwoko butandukanye ingwe intare, nizoka, bakujyana ahabugenewe mu Kagera, muri Nyungwe, cyangwa se ahandi. Rero ni aho ushobora kunyura wifashisha mu gusaba ko wahagera ukareba.

Inzu iri ahantu ite irangi ry'umweru, hejuru hariho imirasire cyangwa se ikintu gifata izuba kikarihinduramo umuriro, hari ikirere ubona ko kidasa nabi cyane, agacu k'umweru gakeya.

Hari ukuntu nyine ibigo bigiye bidushishikariza gukoresha ibyo dutunze mu rugo ngo tutazajya duhura n'inkongi z'umuriro ikindi kirango rero kiriho amacupa atatu ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo ya gaze nyine hamwe dutekesha mu rugo bakwigisha ukuntu wajya ubikoresha neza utazahatwika.

Ahantu bari kwiga gukoresha ikoranabuhanga, beza cyane kandi bafite amatelefone y'umweru na za mudasobwa, barimo barareba ibintu runaka, imbere hari uducupa tw'amazi dukorwa n'uruganda rw'Inyange si ibyo gusa hari n'andi mata byitiranwa ubwo abayazi bahise bayamenya.

Kuba wakwishyura umusoro ni ingenzi cyane, nkuko iki kirango kirimo umubare gatatu w'umuhondo ndetse n'iminsi isigaje kugira ngo ubashe kuba wabikora, hano rero baragushishikariza kutarenga igihe cyangwa se ngo ubashe ko warengera.

Harasa neza ahantu bicaye k’udutebe dukeye rwose ubona ko hari za mudasobwa zibarambitse imbere, amatelefone, n’amakaye, n'amakaramu. Iruhande rwaho har’uduti, hakurya har’ahantu ureba neza rwose witegeye umujyi ubona ko ar’ibintu byiza cyane. Aba basore rero basa n’aho har’ibyo bari kwigaho.

Leta y'u Rwanda yashyizeho urubuga abantu bose bakuraraho ibyangombwa bitandukanye, Bibafasha kuba bashaka icy'uko ari ingaragu, icy'uko utakatiwe n'inkiko, byose ubibonaho rero jyaho, wabishaka ukabibona.

Tujye tugerageza gukurikikira ikiganiro, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gitanga kiyanyujije ku maradiyo runaka nyine, kivuga ibyahindutse, byiyongereye, n'ibyagabanutse. Rero iki ni ikirango cyerekana ko byagombaga guca kuri radiyo y'igihugu

Leta yashyizeho ikigo cy'igihugu rwose cyangwa se urubuga rw'irembo rushinzwe gutanga ibyangombwa bitandukanye, utiriwe ujya mu mirenge kubishakayo, ariko ubungubu haje ibindi bintu bitandukanye ushobora kwaka ik'ishyingirwa icy'uko uri ingaragu n'ibindi.

Muri banki runaka, ushobora kuza ukaguzamo ariko biterwa, hakurya rero harimo umuntu ucunga umutekano, ndetse n'undi wicaye, hanze hari umusore wiyambariye agakabutura n'agakote warengejeho agapira nyine, inyuma ye hari ibirango byerekana iyo ariyo, ndavuga nyine icyo kigo ubitsamo amafaranga wowe.

Insinga z'amashanyarazi zambukiranya zishyira umuriro mu ngo, urabona ko zisa neza rwose, abogoshi nibo babizi n'abasuderi, rero hasi hari abantu bari gutambuka, abari n'abagabo, buri muntu urabona ko yigiriye muri gahunda ziwe.

Ku muhanda hatambuka ho abantu benshi cyane batandukanye, tujye tugomba kwirinda. Hari ikirango cyerekana ko nta gukata ibumoso, moto zirimo zirerekera aho ngaho zihetse abagenzi, imbere hari amazu meza cyane inyuma yayo hari n'ibiti.

Ahantu ku muhanda ubona ko hateye igiti kiriho insinga z'amashanyarazi n'amatara amuritse nijoro igihe bwije, inyuma yaho hari ibiti byiza cyane ubona ko bituma hasa neza munsi hari agataka karinganiye.

Umwari wambaye agakoti inyuma ariko ntabwo yashyizeho amaboko, ari kugendera ahantu hagarara imodoka ndetse zikabakuramo abantu cyangwa se zikabashyiramo, hakurya hari ibiti, amazu y'amabati y'umutuku bisa n'aho hatuwe.

Amatara yaka ku muhanda meza cyane, ibiti biri hejuru ndetse urabona ko hatuye n'abantu, harimo amazu mo imbere nkurikije ukuntu ndi kuhabona, ibyuma byambutsa imiriro y'amashanyarazi, kugira ngo buri muturage wese abashe gucana iwe nijoro.

Abasore babiri ndetse n'inkumi ziri hirya ndi kubona, aho impande hari urugo ziriho ibiti by'icyatsi hakurya hari izindi nyinshi ziriho n'ibisahambi hari insinga z'amashanyarazi ziri kwambuka hejuru zijya kuri buri rugo.

Indabo ziteye ku muhanda, inzu y'amategura iriho ibintu bijyanye n'imirasire bishyushya amazi, hakurya hari iyindi ifite ikigega, ni byiza cyane rero ko nabo bafite amafaranga yo kayigurira, hano haraturwa kandi urabona ko nta byondo bihaba.

Umunara mwiza cyane ubona ko unyuzweho insinga, ikirere kiganjemo igicu gisa naho akavura kari kagiye kugwa, hasi hari ibiti byinshi cyane hakuno hari umuhanda w'igitaka, harya gatoya urahabona amazu menshi, ni no ku musozi, umuntu uba ahari aba yitegeye ahantu hatandukanye.

Ibiti byiza cyane biteye mu utwatsi ubanako dusa neza hirya hari insinga zambutsa umuriro w'amashanyarazi n'amazu afite amabati y'ubururu yubakishije amatafari ahiye hakurya hari aho binjirira rwose uragenda ugakomanga bagahita bagufungurira ukunjira mu inzu ukureba ibintu birimo.

Ni byiza ko natwe tujya tumenya ibyo dukurikiza, hano hari umusore wicaye ku kinyabiziga, yambaye ingofero imurinda ibyago, isanduka y'icyatsi, ariko niba ndeba neza, ashyiriye abantu ibyo kurya cyangwa se ibindi bintu baba batumije kuri moto, ande hari ibiti byiza cyane.

Tugerageze tujye tujya kwivuza rero ni ibintu bishobora kutugwa neza, bikadufasha cyane cyane nk'iyo umuntu arembye, hariho ibitanda rero aza akaryamaho kabasha kuba yamera neza ndetse hari n'ibimukingiriza biriri mu mabara y'ubururu, rwose bituma nta muntu upfa kumubona.

Ahantu imodoka zihagarara heza cyane hari utubuye tunyerera ndetse n'andi ahashashe meza cyane, hakurya hari abasore, buri umwe ari ku ngunguru iteyeho irangi ry'umutuku ndetse n'amazu manini hakurya.

Buri kigo nderabuzima cyiba kigomba kugira imbagukiragutabara, kandi izi rero zibarwa nk'ibinyabiziga ndakumirwa kuko bitabara abantu runaka nyine igihe bari kure, bikabirukankana kubavuza. Aha gihagaze haremewe ubwo uhita umenya ko ari ku bitaro.

Ubwo akavura kari kamaze kugwa ahantu hagitose, umubyeyi wambaye ibitenge wifubitse yahise yigendera, hari imodoka nyinshi cyane ziparitse, hakurya hari amazu y'amabati y'umutuku ameze neza n'ibiti hateye n'inzu zubakishijeho ibyuma bisa n'aho babyuririraho.

Ibyatsi, bihateye bimeze nk'ibyashize, urebye neza. Rero hari uturango tw'ubururu, ibigega hejuru bibika amazi igihe kinini by'umukara. Amazu afite amabati y'umutuku. Hano rero hateye n'indabo nziza, hari abantu bahagaze hakurya basa n'aho bari kwanika imyenda.

Inyubako nziza zijyana n'ibintu biba bisa neza ibirango birimo ibara ry'ubururu ndetse ahantu hashashe neza nta cyondo cyahaba utwatsi duteye hakurya ndetse n'amadirishya bafunguye ariho ibirahuri by'umukara byiza cyane.

Intebe nziza cyane zitatse ndetse ubona ko zinakeye, bamwe bari kuzihagurukaho abandi hakurya bicaye ku z'imbaho, imbere yazo hari amadirishya bisa n'aho ariho bakirira abantu ndetse n'indabo hakurya z'umuhondo.

Ahantu hateye uturabo twiza cyane, akazuba kari kuva ndetse hari uwambaye ishati y'ubururu arimo araza, harasakaye nta mvura yamunyagira. Inyuma ye hari abandi benshi cyane bahetse abana. Ni byiza ko na twe twajya turageraho tukareba ko twagira icyo twikorera.

Abantu bicaye ku ntebe ari benshi cyane, bamwe bambaye amakoti abandi ntayo bambaye, bafite imisatsi iboshye ubwo ni abakobwa, abandi bahagaze ku madirishya bisa nkaho bari kwishyura. Rero nkurikije ukuntu mbona hano ni kwa muganga aho bivuriza.

Kujya mu bitaro ni byiza cyane iyo urwaye baragufasha ndetse bafite n'ibindi bintu baguhereza, bisaba rero kuba warishyuye ubwisungane mu kwivuza nk'uko leta ihora ibidushishikariza, jya ugerageza wicare wabutanze kuko byagufasha.

Agahanda k'amabuye keza cyane gakeye kariho abantu ndetse harimo uwabambaye imyenda y'ubururu, umubyeyi wambaye iy'umutuku, inyuma hari imodoka nyinshi cyane nkurikije uko mbibona zishobora kuba zimeze nk'imbangukiragutabara ariko ziri ahantu inyuma yaho hari amazu meza asakaje amabati y'umutuku.

Ahantu heza cyane ubona ko hakeye, hari intebe z'umukara zifite amapine y'izindi zo kwicaraho zitagenda hakurya hari ibintu by'ubururu harimo haraka amatara, umwari wambaye umwenda n'umweru undi wicaye ari kumurebera kuri mudasobwa ibyo yaje ku kumusaba.

Abategarugori cyangwa se abagore beza cyane bivanzemo n'abagabo bambaye imyenda isa, cyangwa tuyise impuhozankano ntakibazo y'umukara harimo akantu k'umweru, ubwo bigaragara ko ari abunganira abandi mu mategeko.

Abantu bakunda kunganira abandi mu mategeko babita abacamanza cyangwa se abavoka, bagufasha kuba wagenda niba urengana ukarenganurwa, ibyo wahombye bakabigaruza binyuze mu nkiko, bano rero amakanzu bambaye bari kurahira runaka kugira ngo bazakoreshe ukuri ndetse ntibazahemukire n'igihugu.

Abantu bambaye amakanzu y'umukara, tubona inyuma hakurya n'abandi bambaye ay'umutuku, hasi aho bari gutambuka hari amatara meza cyane abamurikira, hirya hari ibiti, bituma haza akayaga. Bano rero bunganira abandi mu mategeko, urugero niba urengana barakurenganura.

Iyo ukoze ibyaha urabihanirwa. Uwa kabiri uhereye inyuma ubona ko yambaye imyenda idasa n'iy'abandi, nkurikije uko bariya bambaye ni abagore, undi akaba ari umugabo. Hakurya hari inyubako ndende ifite igipangu kikire utapfa guhita usimbuka rwose, harimo n'akazu gahagararamo umucungagereza.

Ni byiza ko bajya bakujyana mu igorora igihe wiba, ukora ibyaha runaka cyangwa warazengereje abantu, hano rero niho wagenewe kujya wowe wa nkozi y'ibibi we mvuga ariko ntawe ntunze agatoki tujye tugerageza twirinde, iyo uhagiye bakugira inama ukaba wabasha kuba umuntu muzima.

Abagabo ndetse n'abagore gusa ubona ko basa n'abakuze, ibirahuri imbere yabo udutambaro tw'umweru, bambaye amakoti, indabo ndetse inyuma urahabona ubwinjiriro n'uri kuvanga indirimbo cyangwa se imiziki muri rusange, baje mu nama itandukanye rero.

Umuhanzi witwa Kizito Mihigo ni umugabo rwose wamenyekanye ku ndirimbo z'icyunamo nyinshi cyane zari nziza. Hano yambaye imyenda rero, bigaragara ko yari afunzwe, arimo arisomera n'igitabo runaka nyine nta kwiheba, afite icyizere cy'uko ikindi gihe wenda bizakunda agasohoka.

Ahantu henshi harimbaga nyamwinshi abantu bambaye imyenda isa y'umukara bose urabona ko barogoshe bamwe bafite amazi imbere yabo yo kunywa kugira ngo icyaka kitabica, ingofero baziteretse ku meza, intebe nziza z'umutuku ahantu bari hari no kwaka udutara tuhabonesha rwose.

Ni byiza ko wajya ufungirwa amakosa wakoze niba warangije cyangwa waribye warahemukiye umuntu ukabihanirwa, ukajya mu igororero hanyuma ukazagaruka warabaye umuntu muzima, hano rero aba bahicaye bambaye imyenda isa, ni ho bajya cyangwa se ni ikigaragaza ko hari ibyaha bakoze, bari guhanirwa.

Iki rero ni ikintu bifashisha bari kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, buri nzu yose ihurirwamo n'abantu benshi igomba kubigira nk'uko tubizi, mu masoko, mu nsengero, haba no ku bigo by'amashuri biba bisabwa.

Umupolisi ukora mu nzego z'umutekano wo mu muhanda arimo arayobora imodoka y'umweru itwara abantu mu uburyo bwa rusange, ayereka aho igomba guhagarara kugira abashe kuba yayibaza ibintu bikenerwa.

Umubyeyi uri kwitambukira rwose ubonako yambaye agasakoshi k'umukara, imbere ye hari ikirango hakurya hari idarapo ry'u Rwanda, abantu babiri bari gutambuka, ndetse n'ibiti bimuri impande.

Amacupa meza y'umutuku ubona ko afasha abantu bose ndetse akwiye kuba ari ahantu hari ibitaro, amashuri, amahoteri n'ibindi rero aya ngaya azimye umuriro igihe ahantu habashije gufatwa n'inkongi.

Kuba wagira inzu runaka ni byiza cyane gushyiramo icupa ry'umutuku nk'iri ningiri risohora imyotsi igihe umuriro wahatse ukagerageza bu buryo ki nawe wabona ko urinda abantu bawe. urugero niba ufite ikigo cy'amashuri ,kwa muganga ,insengero ni ngombwa kugira kino kintu kugira ngo kigufashe.

Ni byiza ko nawe ufite amahoteli runaka cyangwa se ibigo byinjiriraho, ahantu batandukanye, wajya ushyiramo rino cupa ry'umutuku rizimya umuriro, rero rirafasha cyane ni ngombwa kurigira, ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga bagomba kurigendana.

Hari ahantu abantu bajyana ibibazo bitandukanye bafite bahuye nabyo byo mu muhanda. Aha rero ni kuri polisi ishinzwe umutekano, iyo ufite icyago wahuye nacyo kitumvikana uraza bakagufasha.

Imodoka ya polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda, iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru icanye amatara. Imbere yayo hari abamotari, ibi ni ikirango cyerekana aho bari; ndetse ubwo bigaragara ko ari mu karere ka Muhanga na Musanze n'undi muhanda ujya i Kigali.

Umupolisi wambaye imyenda y'akazi, ndetse arimo arareberera abanyamaguru bambuka kugira ngo hatagira umutwazi w'ikinyabiziga ukora amakosa, hakurya hari imodoka nyinshi cyane, ndetse hari n'abantu bari ku isoko.

Umuyobozi w'ikinyabiziga ni ngombwa kubaha amategeko y'umuhanda ndetse ugakurikiza n'ibirango biba bihateye noneho wakumvira n'umuntu ubishinzwe wabiherewe ububasha nk'uyu nguyu wambaye imyenda y'umukara ndetse n'imirongo y'umuhondo iciyemo, inyuma ye hari ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Hari inzego z'umutekano zitureberera buri munsi z'u Rwanda, aba rero ni abapolisi bambaye imyenda nshya bafite intwaro, inyuma yabo hari ibiti, ikirere kirasa n'igikeye urabona ko bigaragara neza rwose.

Uyu ni umukozi umeze neza abantu bifashisha bari kuzimya umuriro ahantu hatandukanye gutya uba wizingazinze ugomba kuba ahantu hatandukanye mu bitaro, mu masengero, ku mashuri ndetse n'ahandi.

izi rero ni imodoka yari imaze kugwa nkurikije uko mbibona iri kwaka, haza abantu barwana no kuyizimya. Iyo ni imipira y'imituku irimo irabapurizaho amazi nyine kugira ngo hatagira inkongi.

Hari amacupa yabugenewe agaragaza ko agomba kuzimya umuriro ahantu runaka nyine hafashwa n'inkongi . Hagomba kuba ari mu bigo by'amashuri , kwa muganga , mu nsengero n'ahandi . Nk'iri ngiri rero risa umutuku ryari ryanditseho amagambo.

Kugenda mu muhanda ni byiza cyane utwaye ikinyabiziga ariko bisaba kwitonda harimo umurongo w'umuhondo udacagaguye ugaragaza ko utagomba kunyuranaho rero hari izindi ziri kubisikana n'imodoka ya polisi n'amamoto ayikurikiye.

Iyi rero ni imodoka nziza cyane yo mu mabara y'umweru n'umukara ubwo ahita aranga ko ari polisi y'u Rwanda, nk'uko tubabona mo imbere bambaye imyenda ibaranga irasakaye hejuru hari kubikubisikana n'abasore babiri.

Ni ngombwa ko ahantu dukorera cyangwa se duhurira turi benshi hakabaye hari rino cupa ry'umutuku ubona ko rizimya inkongi y'umuriro igihe ubona hatse nyine, uraryifashisha rikaba ryarinda ko ibindi bintu byanyangirika.

Umugabo wambaye agakote k'ubururu, ndetse agashati k'umweru mo imbere karimo aho bashyira agapapuro mu isanduku yabugenewe, hano bari bari mu gihe cy'amatora, aho warebaga ugushinzwe cyangwa se ugushimishije akaba ariwe wakihitiramo.

Umubyeyi ubona ko yambaye agashati karirimo utuntu twinshi cyane turimo ubururu, umukara, umuhondo ndetse n'umutuku, impande ye hari umugabo ufite ikayi n'ikaramu arimo arandika, inyuma yabo hari ikirango kiri mu ibara ry'ubururu, ubona ko bicaye no mu ntebe nziza cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu ubona ko harimo abambaye udukote twiza umukara. Ndetse nyine harimo amabara atandukanye. Abategarugori bamwe baricaye baripfumbase. Harimo n'Urwego rw'Ubugenzacyaha rukorera mu Rwanda ribu. Uwo muntu wicaye ku ntebe ibanza rwose iburyo ni we nkurikije imyenda yambaye.

Ikirere ubona ko gisa n'igisa nabi cyane ibiti bihari bihateye, munsi hari inzu isakaje amabati izitiyeho ibitambaro by'umuhondo ndetse n'ubururu. Abantu benshi batonnze umurongo bashaka kwinjira.

Urubyiruko rwaje kuganira cyangwa se kumva imigabo n'imigambi y'uyu wagerageje kwiyamamariza kuba umukuru w'Igihugu ariko ntibimuhire. Twamugira inama y'uko rero yazagerageza ubutaha, wenda ejo ni we. Ntazacike intege . Urabona ko yaje kubaganiriza yambaye imipira y'icyatsi n'umutuku.

Abantu benshi bari kuganira ubona ko buri muntu afite icyo yaje gukora hano, barimo baravuga ijambo cyangwa bafite udukayi n'udukaramo amazi imbere yabo bari kunywa, nkurikije uyu muntu ukuntu mubona ni Paul Kagame.

Abantu benshi barimo baraganira ku kintu runaka cyaba cyugarije, bari ahantu mu nzu nini cyane irimo intebe, ameza bafite za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi imbere yabo.

Bagerageje kwigirira icyizere akiyamamaza byaramuhiriye cyangwa ntiibyamuhiriye, ariko uyuguyu we byaranze reka tuvuge ko perezida wa repubulika y'u rRwanda Paul Kagame ariwe wamutsinze, gusa nti twamugira inama y'uko yazongera akagerageza ubutaha.

Gutora ni ingenzi kuri buri muntu wese, nk'uyu bamwita Mpayimana Philippe, yari arimo afata agapapuro k'ibyo yatoye abishyira mu habugenewe, inyuma ye hari umwari cyangwa se umugore wambaye imyenda y'imyeru mwiza cyane uri kumureba amwereka ibyo adasobanukiwe ngo abimusobanurire.

Tujye tumenya ukuntu tujya mu rugo rw'abantu nyine, hano rero nkurikije uko mpabona hari amazu hariho amabara atandukanye, ubururu, umuhondo, icyatsi n'umutuku, hari n'abantu benshi bari gutegura intebe zo kwicaraho kugira ngo bakire abandi.

Abantu benshi cyane babona ko harimo abagore bakuze ndetse n'aba papa bafite udupfukamanwa ubona ko ari natwo bambaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi twiza cyane aba tudahari hariho n'ibikombe n'amazina yabo ahashyize ku meza bicayeho.

Amatora yagenze neza ku buryo twese twashakaga, ndetse ibintu binagenda neza. Rero uyunguyu na we bamwita Mpayimana Philippe, yagerageje kwiyamamaza ariko ntibyamuhiriye ngo ayobore igihugu cy'u Rwanda, twamugira inama yo kuzagaruka ubutaha.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, arimo aravuga ijambo imbere y'abantu benshi batandukanye kandi ubona ko bamuteze amatwi. Inyuma ye hari abategarugori bicayeho ndetse n'idarapo n'ikirangantego.

FPR inkotanyi ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda, rirangwa n'ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku. Ku magambo yayo yandikishije iry'umukara, hano iri ni idarapo rero ribaranga, igicu kirasa nabi wagira ngo imvura igiye kugwa.

Umusore ubona ko yamanitse ikirango cyangwa se ikintu kiriho ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame ahahagarariye ishyaka rya fpr Inkotanyi, aba rero ni abamuri inyuma bose.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, hano yari ari kwiyamamaza ngo abashe kuba yayobora ndetse biza no kumuhira aratsinda. Bano rero ni abamushyigikiye ubona imbaga nyamwinshi, ari kumwe n'abamuyoboye cyangwa se bamurinze.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'icyitegererezo muri Afurika yose. Yabashije guha abagore ijambo bahindura ibintu byinshi cyane ni intwari idasanzwe kuko yanahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, n'ubu ngubu kandi turacyamuyobotse akora ibintu byiza abantu benshi bakunda.

U Rwanda harimo amashyaka ariko iryamenyekanye cyane ryo FPR inkotanyi ari naryo ririmo Perezida Paul Kagame wayoboye igihugu cy'u rwanda kandi akaba ari n'intwari yakoze ibintu by'indashyikirwa birimo guhagarika jenoside, rero abantu bambaye imipira y'imyeru ubona ko babyishimiye.

Abasaza n'abakecuru bari bitabiriye umuhango uri kubera hano ariko bitewe n'ukuntu ndi kubibona, wagira ngo bari baje gutora ejo bundi kubera ko ari yo aherutse kuba. Bamwe bifashe mu mifuka, abandi batebeje amashati.

Imodokabona ubona ko iriho shitingi inaziritseho imigozi, iri kubisikana n'indi y'umukara, hakurya hari ibiti ndetse n'indi modoka nini cyane bari gupakiramo imifuka y'imihondo, bisa naho bayijyanye ahantu runaka.

Imodoka nini cyane ubona ko itwara imicanga, amabuye, hakurya hahagaze umumotari utegereje umugenzi, kandi hari umurongo, w'umuhondo udacagaguye, hakurya hari n'undi musore uri kwambuka n'ikirango cyanditseho mirongo itandatu.

Hari imodoka nyinshi cyane urabibona, hari iziri mu kayira k'abanyamaguru, izindi ziri kuzamuka, izimanuka ariko hakaba n'indi yikoreye imifuka myinshi cyane, urabibona ko harimo ibiribwa, imbere yaho hari ibiti, igicu ntabwo gikeye cyane nacyo.

Imodoka ubona ko irengejeho shitingi y'umukara iziritseho imigozi ikomeye, nayo irimo iramanuka. Hirya ho gatoya hari ibitambaro by'icyatsi bihazitiye, harimo abantu ubona ko bafite ibyo bari kureba.

Kugenda mu muhanda bisaba kwitonda ,nawe nk'umuntu utwara abantu jya ugerageza ugende neza rwose, hano hari moto itwaye umubyeyi wifubitse igitenge, imbere hari imodoka nyinshi cyane. Aho bageze rero, naho abanyamaguru bambukira bari kugenda.

Imodoka ngufiya rwose itwara abantu mu buryo bwihariye iyo ufite amafaranga yawe urayikodesha ikakujyana ahantu runaka, iri kuzamuka ho gatoya itambuka ku banyonzi bikoreye imifuka iriho ibirayi babiri, hakurya hari ikindi kinini cyane bashyizemo imifuka y'umuhondo.

Umuhanda urimo imodoka ziri kwimanukira ndetse na moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi, yambaye ikimurinda ibyago igihe akoze impanuka gusa ntabwo ari zose iriya imuri impande yo ikoresha ibikomoka kuri peteroli. Hepfo hari amazu meza cyane ubonako ari ay'ubucuruzi.

Abanyonzi leta yabategetse ko, buri muntu wese guhera saa kumi n'ebyiri utwara igare, yajya aba yavuye muhanda, kubera ko bateza ibibazo bitandukanye. Uyu nguyu rero, urabona inyuma hariho umusego umugenzi yicaraho, ari kubisikana n'indi modoka itwaye abantu benshi

Imodoka nziza cyane no kuzitwara ibicanga, amabuye ndetse n'ibindi. Ifite amapine menshi hakurya haraba bari gutambuka ndetse n'ubunyonzi utwaye igare ririho umufuka n'izindi zitwara abantu mu buryo bwa rusange zihagazw aho.

Imodoka nini cyane ubona ko iri kubisikana n'indi y'umweru ntoya igendamo abantu bake, hakurya hari ibiti byiza cyane, ndetse hari umusore wikoreye umufuka n'imyenda y'akazi, arimo arazamuka agenda.

Umumotari utwara abantu, afite umufuka imbere ye, ahitse umugore inyuma, ari kubisikana n'imodoka y'ubururu iriho ikintu kinini gifunganye utareba ibirimo imbere, hakurya hari ibiti n'urutambaro rw'icyatsi ruhakikije ku buryo utapfa kureba ibintu birimo.

Leta yashyizeho ko buri munyonzi wese aba agomba saa kumi n'ebyiri kuba avuye mu muhanda, mu rwego rwo kurinda impanuka za hato na hatoye nyine, kubera ko bo nta bwishingizi bagira iyo uguye urimenya ku giti cyawe. Burije rero urabona ko barahantu amatara acanye, barimo bariganirira.

Ujye ugerageza rero ukora imirimo yose kandi n'uwo ukora uwukunde cyane, ni byiza rero ko nawe wagerageza ugakura amaboko mu mufuka, uyu musore ari gusunika igare ririho umufuka, ntabwo nzi ibirimo ariko umusego waryo uri hejuru, yawuziritse kandi buranije cyane.

Hari ibinyabiziga ubundi byagenewe gutwara imizigo iremereye nino irimo hakurya hari umusore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'umweru n'undi wak'ubururu bari kubisikana mukayira ka banyamaguru, ni mu muhanda urahabona n'izindi nyinshi ziri kumanuka hacamo n'imodoka.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ariko izi kera bazitaga twegerane icanye amatara, hakurya hari umuntu uri kuganira n'undi ukenyeye ibitenge, ndetse n'amatara acanye yerekana icyerekezo.

Iki kirango kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru nukibona ahantu ujye umenya ko kubacuza agasembuye, hakurya hari urumodoka rurerure rusa umweru rufite amapine menshi utahita ubona ako kanya, hakurya hari n'ibiti byiza bikeye rwose ushobora kuza ukahatura ubaye ufite amafaranga ariko.

Niba uri kubaka, ukeneye imodoka zikuzanira imicanga, amabuye ndetse n'ibindi byinshi cyane. Iyi rero y'umutuku ni byo ijyanye, yanabitwikiriye. Hakurya iri kubisikana n'indi, ariko hari ahari imifuka y'imihondo, bisa naho bari kuyishyira mu kindi kinini cyane kiruta zino.

Imodoka y'umweru yicaramo abantu babiri gusa imbere, inyuma ariko hari undi, iri kubisikana n'indi y'umukara n'abamotari batandukanye, hakurya unyujije amaso mu muhanda, hari igitambaro cy'icyatsi, hari abantu bari gupakira imifuka n'ikindi kinini kigiye kujyana ibintu hanze.

Kuba bajya gutegera imodoka ahantu habugenewe ni byiza cyane, izi rero nizitwara abantu mu buryo bwa rusange, hirya ubona ko hari na benshi rwose babyitabiriye, zirimo zirinjira ahantu hari amatara menshi amurika n'ijoro igihe bwije.

Imodoka nziza cyane itwara imizigo ibirayi, amakara, ibitoki n'ibindi, irimo irabisikana n'umumotari hirya ye hari indi y'umweru hakurya harizo bari gupakiramo imifuka y'imihondo myiza cyane icyeye kandi bagiye kujyana mu mahanga.

Kugenda mu muhanda ni byiza cyane ariko ugatwara ikinyabiziga ufitiye uruhushya ndetse ukagerageza kwitonda, hano rero iyi niy'umweru itwara ibintu bitandukanye birimo: ibirayi, amakara, n'ibindi byinshi cyane, hakurya hari moto ndetse n'umwari bisa nnkaho ari kurenga atambuka.

Umuhanda kuwugendamo ni byiza cyane kandi turashimira leta yawukoze, abomotari abahetse abagenzi ndetse babambitse n'ingofero zibarinda ibyago iyo bakoza impanuka. Hari ikiri kwikaraga gifasha abantu bubaka kugenda kivanga ibintu bari bwubakishe.

Umusore ubona ko yambaye agapira keza cyane inyuma ku igare yicayeho, hari agafuka kaziritse ari kubisikana n'ikimodoka kinini cy'umukara gitwara imizigo, hakurya hari ibiti ubona ko bizana akayaga ndetse n'amazu.

Mu muhanda, haberamo ibintu bitandukanye, ariko tujya tugenda twirinda. Hakurya hari ibinyabiziga bibiri bitwara imizigo urugero nk'ubugari, ibiro maganabiri ndetse hari n'abantu bahagaze bari kuganira, hakurya hari amatara ndanga cyerekezo ari kwaka.

Moto nziza cyane zitwara imizigo ndetse n'izindi zikoresha umuriro w'amashanyarazi, muri make nyine urazicomeka rero ntago zangiza ikirere n'izindi imodoka zimbeho z'umweru ziri kuzamuka hakaba hari n'umusore uhagaze mu muhanda.

Imodoka nziza cyane, ubona ko ibirahure byayo bisa neza ndetse izi ni iz'uruganda rwa Vogisuwageni rukorera mu Rwanda ariko uhamagara icumu icumi cyangwa ugashaka apurikasiyo zabo ukabahamagara aho uri hose bakaza kugutora.

Imodoka nziza cyane zitwara abantu mu buryo bwa rusange z'umweru, zirafunguye bisa n'aho zibategereje ariko aho zihagaze ni imbere y'akayira k'abanyamaguru, hirya gato utarabutse hari umuhanda ndetse n'umusore bisa n'aho ari mu kirahure cyayo, arimo arabaza amakuru runaka.

Hari imodoka zabugenewe kugira ngo zijye zikuzanira imicanga, amabuye, cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi ukenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, nyine igihe uri kubaka. Rero hano ni mu muhanda, ziri kuzamuka zimwe, izindi ziri kubisikana nyine n'izitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Tujye dutega imodoka runaka tubona ko zifite umutekano kandi zizewe ko ziri bu tugeze aho tugiye, ibi rero, bino ni binini cyane, bitwara abantu buryo bwa rusange, ubona ko binasa neza, iyo wicayemo uba utuje, hakurya hari abantu benshi, ubona ko nabo bicaye bategereje isaha yabo ngo igere kugira ngo bagende.

Moto itwaye umuntu ndetse ubona ko iri kumankana n'imodoka y'ubururu itwaye ibintu birimo iby'umutuku ndetse n'ubururu, harimo inzoga nyinshi cyane, iri kusikana n'akandi kamodoka gatoya.

Umutwazi w'igare arimo aramanuka abisikana na mota zitwara imizigo ariko irafunze ndetse iranasakaye hakurya hari umuntu uri kuhaturuka imbere y'amazu y'amabati y'ubururu ndetse n'umweru hari n'imodoka hari ibigunda birimo ibyatsi ubonako byimejeje.

Imodoka zitwara mu kiga rusange, hirya hari utuzu ubona ko twicaramo abarushye guhagarara, ndetse n'umubyeyi uri gutambuka akomeza, hakurya urahabona inyubako nziza cyane rwose irimo imiryango itandukanye n'amadirishya afunguye.

Niba ushaka gutangiza ibikorwa runaka uzabikore ku muhanda kuko niho hatambuka abantu benshi. Izi ni modoka rero zitwara abantu mu buryo bwihariye mu ibara ry'ubururu, umurongo w'uduce hasi, ziri imbere y'inyubako runaka, hariho indabyo, bacuruza ibintu bitandukanye.

Ni byiza kwihangira imirongo kuko byagufasha uyu musore yarahetse imifuka myinshi cyane harimo y'umuhondo ndetse n'umweruru yakurya hari imodoka nyinshi cyane ubona ko yambaye umupira w'umutuku, ipantalo y'umukara arimo ku igare ayishyiriye abantu bayitumije.

Ibiti ni byiza cyane, bituzanira akayaga keza ndetse bikazana imvura, bigatangira ubutaka n'ibindi. Imodoka rero nziza nini isa icyatsi, irimo irazamuka ndetse isa nkaho nta kintu ihetse, hakurya hari ahandi hari izindi, bari gupakiramo imifuka y'imihondo.

Moto itwaye umugenzi ubona ko iri kwizamukira. Bambaye ingofero zi zabarinda igihe bakoze impanuka. Bageze ku gipangu cy'umweru cyiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibiti mo imbere, amatara acanye nijoro igihe bwije.

Imodoka itwara mu buryo rusange isa umweru, ndetse ikaba iciyemo umurongo w'umukara n'umuhondo. Hakurya hari umutaka na wo utwikiriye umuntu izuba ndetse n'umubyeyi uhetse umwana, abandi bahetse amashakoshi. Hari n'ibisahane hejuru ku mazu ahari hano ni ku muhanda rero.

Hari moto zagenewe gutwara imizigo, nk’uko ubibona ahongaho hariho ibirango cyangwa se nimero za telefoni ushobora kubahamagaraho. N’umusore mwiza cyane wambaye n'ingofero imurinda ibyago, arimo arasa n'umanuka yigendera.

Akayira k'abanyamaguru keza cyane hirya hari moto irimo irigendara itwaye umwari, ibiti bikeye rwose bituma ahantu hasa neza, nta n'akababi wabona hasi, rero aha ngaha hari n'amatara acana nijoro igihe bwije.

Ahantu hasa neza ubon ako bahashyize ibitako ndetse n'ibikinisho by'abana, hari uturabo abagore bazanye urubyaro rwabo kugira ngo rubashe kubashimisha, nyine nk'uko bigaragara hano muri ibi bintu biri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umutuku.

Hari utubuye tuhashashe twiza cyane, ubona hatambukira buri muntu wese yagakwiye kuba ahafatira ifoto y'urwibutso, udutebe two kwicaraho, ibiti bituma hasa neza, aba bantu rero bari kwitambukira bamwe bahetse ibikapu n'abandi ubonako bateruye utuntu tw'icyatsi nyine bafite aho bagiye cyangwa se bavuye guhaha.

Ikibuga cyiza cyane kirimo ibyatsi urabona ko bakiniramo ibintu bitandukanye ukahazana abana hakurya hari udutebe two kwicara turimo ibirambo by'umweru ndetse n'ubururu n'amazu ari mu biti inyuma rwose asakaye.

Ikibuga cyiza cyane ubona ko kirimo amarange y'icyatsi ndetse n'umutuku, imirongo y'umweru ariko harimo ahantu yagiye ashira nyine hakobotse hakurya hari aho kwicara hasakaye inyuma hari ibiti byize cyane.

Hari ahantu rero baba baragiye bubakira abantu nyine kugira ngo bajye bicaramo barebe ibikorwa biri kuhabera runaka, urabona ko hasakaye, bino byubakishijwe sima, inyuma hari ibiti n'utundi dutebe dutoya nyine tw'abantu basanzwe.

Ahantu heza ubona ko hateye ibyatsi rwose nta kibazo gihari, hakurya urahabona ibiti amazu bisa naho bahakinira umupira cyangwa se bakicaramo bari kuhakorera inama runaka ndetse n'ibindi byinshi.

Hari ibibuga byabugenewe bifasha abantu kuba bakina bakidagadura, hano rero harimo amagambo hagati yanditse mu ibara ry'ubururu, hakurya hari ibiti n'ibyuma bizitiye ahantu nyine nta wapfa kutambuka, inyubako zubabakishije amatafari ahiye.

Inzu nziza cyane zubakishije amatafari ahiye, amabati, y'umutuku ateyeho akomera kubi rwose atajya apfa no gucuya hasi hari ibibuga byiza cyane, harimo abantu bari gukina bisa naho bishimye, haciyemo imirongo y'umweru ndetse n'utwatsi duteye ku mpande.

Ikirango k'ibara ry'umutuku kireba abantu abanjyamuhanda cyangwa se abatwazi b'ibinyabiziga kivuga ko iyo uhageze uhita umenya ko bari gusana umuhanda wangiritse cyangwa se barikuwuvugurura, tujye tubyubahiriza rero kugira ngo bigende neza.

Rero abakozi cyangwa se abantu batwara ibinyabiziga, ni bo barebwa n'iki kintu kiri mu ishusho y'impande eshatu, ubuso bw'umutuku ndetse n'umweru, ikirango cy'umukara kigaragaza ko umuhanda umwe ukomeza, hariho akandi gashamikiyeho.

Hari abantu bajyanwa ahantu runaka bitewe n'ibyaha bakoze, abajura, abicanyi, abambuzi abahemukiye abandi rero ni ngombwa ko baba bagomba kuhajya kugira ngo babashe kubagira inama bakure neza nta kibazo bihane, hano rero niho bajyanwa mu igororero rya nyamagabe.

Niba uziko utwara ibinyabiziga, nawe jya ugerageza wububahirize amabwiriza abiranga, rero hano iki ni ishusho y'umuzenguruko ndetse yerekana izigenda n'izigaruka, ubwo muri make aha ni aho kubisikanira.

Abantu batwara ibinyabiziga ni bo babisobanukirwa, nk'uko hano hari ikirango cyerekana ko aho bagiye kugera hari cya kintu gifotora; nturenze umuvuduko wa mirongo itatu, nk'uko byanditsemo hejuru mu kaziga k'umutuku. Inyuma yaho hari ibiti byiza cyane; kubitamo akajijo ukanyujijemo imbere, urahasanga ikirere ubona ko kijya gusa neza.

Bisaba kwitonda ugeze ahantu ubona iki kirango cyanditseho mirongo itandatu hasi hari uruntu rw'umukara handitseho ko imbere nurenza umuvuduko ugenwe uri buhanwe, rero giteye ahantu hari ibyatsi hakurya hari imodoka ni mu muhanda nyabagendwa.

Ku muhanda haba hari agasuku gakeye nta shashi wahabona ariko hariho ikirango giteyeho, hasi mu twatsi nyine kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umwe handitse inyuguti ya pa icishijemo umukato, igaragaza ko utemerewe kuhahagarara na rimwe.

Ikirango kiyobora abatwazi binyabiziga ndetse cyerekana ko hari imirimo iri gukorwa kuri uwo muhanda ugezeho kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'umutuku rizengurutse nyine ku ishusho ya mpande eshatu.

Ikirango kereka abantu batwara ibinyabiziga ko imbere hari ikona bari bukate, kiri muri mpande eshatu, uruziga rw'umutuku, ndetse ubuso ni umweru, hakurya hari ibiti n'umuhanda usa neza.

Ikirango kiza cyane cyereka abanyamuhanda ibyo bagomba kubahiriza, gishinze ku cyuma hasi hari urw'umukara ruharambitse, hejuru hari ishusho mpandeshatu, umutuku ndetse n'umweru ibara ririmo imbere rwose ni na ko ugomba kubimenya.

Ku muhanda ni ngombwa ngo tujye tugenda dusoma birango bihari kuko bitubwira aho tugeze n'icyo turi buhasange, aha rero ni hejuru, iki kirango kiri mu ibara ry'ubururu cyerekana ko hari ikiraro uri kunyura hejuru nyine cyangwa se ugiye kukigeraho.

Ku muhanda ni ngombwa ngo ujye wubahireza ibirango biharanga, kuko biragufasha cyane, hano rero hari ikiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hariho akantu k'umukara kerekana ko ushobora kuza ugahita winjira mu muhanda munini, washaka ugakata iburyo, hakurya hari amamodoka rero ari kugenda atambuka.

Ibirango biba biri mu muhanda hagati, biyobore ibinyabiziga nibyiza ko tuba tugomba kubyubahiriza kino kiri mu ibara ry'umuhondo harimo akantu gasa n'agakomeza, ngo bivuze ngo uyu muhanda nyine wowe utambukamo urigendera ariko hari akandi kameze nk'inyuguti ya ta ubwo byerekana ko nukanyuramo ariho uraba urangirira.

Ikirango kireba abantu batwara ibinyabiziga runaka, waba uri uwariwe wese uba ugomba kucyubahiriza igihe ugisanze mu muhanda, hano harimo mirongo itandatu, ubwo bivuze ko hari umuvuduko utegetswe uba utagomba kurenga nyine n'igihe utwaye.

Umuntu utwara ibinyabiziga ni ngombwa kugenda mu muhanda wigengesereye ukurikiza amategeko y'umuhanda nkuko kino kirango kibyerekana kiri mu ishusho y'umweru ndetse ubuso bw'umutuku hariho abana babiri hakurya hari igikuta cy'amabuye n'ibiti byiza cyane.

Hari ibirango bigiye biri mu muhanda biyobora abantu batwara ibinyabiziga cyangwa se bagenda mu mihanda cyane cyane, kino rero cyerekana ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira, hirya gato hari n'umuhanda uribugufate ukujyana iburyo.

Abashoferi rero cyangwa se abatwaye ibinyabiziga, birabareba kuba bajya buhabihiriza ibirango biri mu muhanda nyine, Iki kiri mu ibara ry'umutuku nyine cyangwa umweru, n'ikirango cy'umukara kirimo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ni ibyerekana ko zitahanyura cyangwa se zitagomba no kuhagaragara cyangwa nyine ngo zihatambuke.

Umusore ubonako yambaye umupira w'ubururu, agakabutura ke, ahantu hari ibipangu n'ibiti byinshi cyane, hakurya hari amazu meza cyane y'amabati y'umutuku n'imodoka ihagaze inyuma ye iriho undi muntu asa nk'aho ari kuyobora uwuyitwaye.

Muri Kigali hari nzu zigiye zigeretse rwose ubona ko zinakeye. Hakurya hariho amakaro y'umweru ndetse ubona ko hari n'ayandi mabara asa n'ayijimye ukuntu. Hasi hari umuryango abantu bose binjiriramo nyine baje mo hano.

Mu rwego rwo kwirinda ko hari ibinyabiziga byazajya bisohora ibyuka bihumanya ikirere, hasohotse moto zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, ino rero na yo niyo, hakurya iri ku muhanda rwose, hari n'inzu zigeretse inshuro nyinshi.

Inzu nziza cyane yubatse neza igeretse ubona ko harimo amadirishya, isize uturangi tw'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, munsi yaho hari ibiti ariko hakurya na none hari ahantu hashinze ibyuma hagati yabyo hari ikigega n'indi ifite akarange k'umuhondo nyine wagira ngo ibamo umuntu ku giti cye.

Inzu nziza cyane ituye kumuhanda urabona ko ikikijwe nindabo nyishi cyane nziza zumuhondo ndetse nicyatsi hariho urupangu ndetse iranageretse urabonako ari ibintu bikeye abantu bafite amafaranga baze bagerageze barebe niba bayigura.

Umuhanda ubona ko hakurya hari akamodoka k'umukara karimo karamanuka, hirya hari igipangu ubona kiriho ahantu handitse mitsingi bigaragaza ko aho bacuruza bisimbuye, imbere ye hari indi nayo itwara abantu yo isa n'ibara rya gisirikare.

Agahanda k'amabuye karimo umucanga hari imodoka z'umutuku zihagaze aho ngaho, hakurya hari abantu bari gutambuka basa n'abagana mu nzu ihari iteyeho uduti ndikubona, rero nawe uhaje wenda ukareba ibintu bihakorerwa, ni byo byatuma umenya ko ugomba kubarizwa ahantu runaka.

Imodoka nyinshi cyane ziri kumanuka zigenda zifite aho zigiye. Hakurya hari abasore bahagaze, bamwe bafite ibikapu abandi buri umwe urabona ko yibereye mu nzira ze. Hari n'amazu meza y'ubucuruzi, amanitseho ibintu hejuru.

Inzu ubona ko igeretse rwose ikeye, ibirahure bisa umukara hariho na bya bintu bizana akayaga mo imbere, hasi hateye uturabo n'imodoka zihagaze zimwe n'imikara izindi ni imyeru hakurya hari indi nzu ifite amabati y'umutuku byegeranye.

Hano rero ni ahantu heza cyane urabona ko hari ibiti ndetse n'amazu y'umutuku, ibigega ku nzu y'umweru, n'andi afite amabati asa n'akuze, ha kurya hari inyubako bari bari kubaka ariko isa n'iataruzura neza iyo uhageze rero witegera umujyi cyane.

Inzu ni ingenzi cyane ziri ku muhanda kuko abacuruzi ni ho babonera amafaranga atandukanye, ndetse hari n'imodoka ziri kuhatambuka, ni mu muhanda hakurya hari ahantu hari imitaka umuntu acuruza ibintu bijyanye n'amayinite ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi biri mu miryango itandukanye.

Gutura ku muhanda ni byiza, nk'igihe witahiye bwije ntabwo ujya wirira uvuga ngo gupfumurara mu bihuru bataniiga, hano hari inzu ifite igipangu cyiza cyane, abati y'umukara, amarangi y'umweru, iteyeho ipoto ry'amashanyarazi mu twatsi turi impande yayo.

Inzu nziza cyane igeretse inshuro nyinshi, iriho amadirishya, iteyeho amarange, hejuru urabona ko ari ahantu umuntu ushobora kwicara akareba umujyi wose, munsi habera ubucuruzi, hariho ikirango kiri mu ibara rijya gusa n'iroza ariko cyerekana ko batekaga hano.

Kuba wajya ahantu mu mazu, ukajya kwiberamo, buri munsi ni byiza kuko uhasanga ibintu byose kandi rero reba igipangu gihari ni kiza cyane, gikoze mu mbaho, hakurya harimo uturabo tuhatatse dusa neza ndetse n'kirarango kiranga ibihabera.

Kubaka inzu nziza bijyana n'amafaranga ufite, hano ni ku muhanda rero hari imigende inyuramo amazi, indabo ndetse zirimo utubuye twiza cyane, hakurya hari igipangu cy'umukara ndetse n'ibiti biri imbere byeraho imbuto z'imyembe.

Ahantu heza cyane ubona ko hari amazu yubakishije amatafari ahiye, ateyeho amarangi, hejuru hariho ibirango by'ibihakorerwa, munsi hari amamodoka y'umukara ndetse n'umweru, abantu bari kwitambukira bafite aho bagiye nabo.

Utubuye twiza cyane, hakurya imodoka zihagaze zimikara zose, amasoko ariho ibirango bigiye bise umuhondo, inyubako nini cyane irimo ibirahure ubona ko ushobora kuza ukahahira.

Ni byiza ko nawe wajya ugirira isuku iwawe hagasa neza. Rero hateye indabo aho hari n'imodoka ihahagaze ndetse hakurya hari inzu nziza cyane nini ubona ko igeretse ibirahure byiza cyane, nkurikije uko nyibona rwose yakabaye ari inyubako abantu baza kuba bariramo bakanararamo.

Ku muhanda haberaho ibintu bitandukanye, ikirango kiriho cyerekana ko nta binyabiziga bihetse ibintu byinshi bihatambuka ndetse hari n'imodoka zindi ziri kwimanukira, n'iziparitse z'umukara n'umweru, imbere y'inzu ifite ibirahure byiza cyane.

Inyubako nziza cyane ubona ko iriho ibintu byinshi cyangwa se n'ubucuruzi butandukanye, hano rero abona umusore uhetse igikapo amazi mu ntoki arimo arigendera, hirya hari imodoka na moto ziri kugenda zisa naho zizenguruka ahantu runaka zizi aho zigiye.

Umumotari ari arigendera ndetse hakurya hari undi umuntu uri gutambuka, impande ye hari inzu ubona ko igeretse kabiri, ikirere kirakeye, biti byiza cyane ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Ku muhanda rwose ni hanini heza hari n'umwanya bahagarikamo imodoka, hirya urahabona umwari wambaye inkweto n'akajipo arimo ahantu bagurira amata bisa n'aho yari yaje kuba yayagura na we.

Inzu nziza cyane iri hakurya ubona ko itatseho udutafari duhiye, iteye amarange y'umweru, munsi yayo hari ibiti byiza cyane, ibirahuri birimo ubururu, nyine ubwo bitewe n'uko babiguze, bigaragare ko ari ku muhanda nyine.

Inzu igeretse irimo ibirahure byiza cyane ndetse n'utuntu dukingira izuba, hakurya hari aho wicara ureba umujyi wose, hasi hari ikirango kiranga ahantu watega ku mahirwe yawe, hasi hari umutaka na none.

Kuba wagira ibibazo uri mu muhanda cyangwa se utwaye n'ibya buri muntu wese urugero: niba ipine ry'ikinyabiziga cyawe ripfumutse ni ngombwa kujya kurikoresha ugahaba n'abandi kazi, hano hari abasore babikora ndetse hirya hari abacuruzi b'imbuto.

Imihanda myiza ni ngombwa rwose kugira amatara kuko tugenda nijoro, igihe bwije. Hano rero hari ikirango cyerekana ko bahanyura bazengurutse igiti giteyemo gitatse rwose, imodoka nyinshi cyane ziri kuza zicanye n'amatara.

Hari ahantu habugenewe imodoka ziba zigomba guhagarara mu buryo bwa rusange cyangwa se umwanya munini nkuko iyi ngiyi yabikoze hirya hari akazuru keza cyane hicaraho abanyamaguru n'izindi ziri kumanuka bisa n'aho zerekeza ahantu.

Mu muhanda habera ibintu byinshi biragusaba niba nawe utwara imodoka ujye ugenda witonze kuko biragufasha bikurinda kutagonga cyangwa ukore impanuka, hano rero hari akazu kari mu mababara y'ururu aho abantu bicara bategereje iziza kubatwara.

Gerageza nujya ugenda mu muhanda ujye ubanza kwitonda ugendera ahabugenewe nko kuri iyi imirongo y'umweru, hakurya yaho hari ivatiri y'umweru irimo iramanuka, abandi bantu, amatara ndanga cyeyerekezo ndetse n'amazu meza y'umweru ari hakurya.

Imodoka nziza cyane isa ubururu, hakurya hari izindi nyinshi zihagaze, imbere y'inzu nini cyane gereretse kabiri. Igicu urabona ko kidacyeye cyane, ariko nonene harimo akaruru gakeya. Inyuma hara abamotari n'abanyonzi; undi na we arahagaze mu kayira k'abanyamaguru yumiwe.

Ni byiza ko twajya tugendera mu muhanda runaka igihe twitonze, hariho abanyamaguru na bamwe batwara ibinyabiziga tukamenya uburyo twitwara ntitugakore amakosa, ariko ntabwo ari byiza, hakurya rero hari izindi nyinshi n'iziri kumanuka ndetse n'izizamukira nyine n'abandi bari kwambuka.

Amatara meza cyane yaka umuhanda nijoro munsi hano ni ku kiraro nkuriki uko mbibona ahantu bari kunyuramo hagati abantu hari ikirango kiburira cy'umutuku icishamo umukato ku nyuguti ya P cyemeza y'uko nta muntu wemerewe guhagarara umwanya cyangwa ngo ahashyire imodoka ye atahe.

Ibyatsi biteye ku ruhande, akayira k'abanyamaguru, igare riri kuhanyura rihetse utumeza ndetse ririmanukira, hakurya hari ibiti bisa nk'aho imodoka zimwe zinyura hejuru, izindi zikanyura hasi, ni byiza ko twasigasira ibikorwa remezo twagezeho.

Imirongo y'umweru ikunda kuba ishushanyije mu muhanda, igaragaza ko ari aho abanyamaguru bambukira batandukanye, hakurya hari imodoka nazo ziri guturuka ruguru zimanuka ndetse n'izizamuka, hari ibiti ryiza cyane n'abanyamaguru barikwigendera nta kibazo.

Umuhanda ni ahantu hashobora kubera ibyago ariko hano nyine ni mu ikorosi urabona ko hahita hakata, hari imirongo icagaguye y'umuhondo, ubwo bivuze ngo wemerewe kunyura kuri iyi y'umweru iri kumanuka ariko hari n'izizamuka nyine hakurya hari ibiti, amatara acana nijoro igihe bwije.

Imihanda tugendamo ni byiza kujya twitonda tukamenya igice cyacu n'ikitari icyacu, hano rero harimo umurongo w'umweru werekana aho ujya, urabona ko ukase ku ureba ruguru ,nawe werekana ko uhita ukata ruguru indi nayo yerekana ko uhita ukata hepfo.

Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zifite habugenewe kugira ngo zibakuremo cyangwa zibasubizemo, rero hari akazu kubururu wicaramo kugira ngo izuba ritakwica hino rero ni ku muhanda nyine nkuko tubibona twese hariho n'ibiti.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko usa n'aho uri mu mazi, imbere y'abamotari bari kugenda n'abandi, ndetse hakurya imodoka zikata hari ibiti byiza cyane igice bona ko kijimye ariko nta mvura irimo, hakurya hari umugi uri kure ukoramenya.

Kujya mu muhanda witonze ni byiza, nkuko tubibona hano harimo imirongo ikataguye y'umuhondo n'indi y'umweru, iyi rero myinshi yerekana ko nta kinyabiziga kigomba kuhahagarara umwanya cyangwa se no kuhaguma, hakurya hari amatara ndanga cyerekezo rero.

Kugenda nijoro bisaba kwitonda, naho waba umushoferi ugomba gucana amatara, kandi ukagenda witonze ahantu ubona ko hakunda gutambuka abantu b'abagenzi, nyine b'abanyamaguru benshi cyane, bari munsi y'ikiraro hateye uturabo twiza cyane, n'uduti ndetse n'ibirango byerekana aho ugiye.

Ku kayira k'abanyamaguru harimo umwari wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu, arimo arigendera, impande ye hari utwatsi gusa hakurya hari amatara ndanga cyeyerekezo, nyine ategeka abantu kwihangana cyangwa se akabereka aho bari bunyure nyine kutwara ibinyabiziga.

Imirongo y'umweru iciye mu muhanda, ni byiza cyane ku abantu ngo bajye bayubahiriza, bamenye ko ariho bagomba kwambukira abanyamaguru, hakurya noneho ririya tara ry'icyatsi riri kwaka, ni irigaragaza ko ahawe uburenganzira. Aha rero, ugomba kuhitondera wa umushoferi we.

Mu muhanda hari ahantu hagenwe yuko agomba kwambukira abantu bagenda n'amaguru hano ureba ni imirongo y'umweru, niyo ibigaragaza abamotari barahagaze barebye ko nta muntu uri buhatambuke kugira ngo bakomeze urugendo.

Umuhanda usa n'uwangiritse wasataguritse, hakurya hari kandi karimo, ee! Ni tubiri tw'umukara n'umweru, hashinzemo icyuma cyimwe amatara kiriho amatara acana n'ijoro igihe bwije hakurya hari kumanuka imodokadoka nyinshi cyane n'amamoto azamuka amwe n'amwe.